Amwe mu mavumero rusange yaje gukemura ibibazo byinshi bitandukanye, aho baturage benshi wasangaga barwara indwara zituruka ku mwanda bitewe n'uko nta mazi meza babona se cyangwa n'ayo babonye nayo ugasanga ni mabi bakayavanga n'umwanda bari bafite ugasanga biri kugenda bikuruza indwara nyinshi zituruka ku mwanda. Mu rwego rwo kubyirinda rero haje amavomero rusange atuma buri muturage wese mu bushobozi afite abasha kuvoma kugira ngo akoreshe amazi meza yizewe.

Global health care irahari kugira ngo yite ku baturage muri rusange aho baba bafata abaturage wenda nkiyo haje icyorezo runaka bagatangira kulbakingira mbere y'uko kibagera mu mibiri bagatangira kubaha inkingo lumwe wese bitewe n'imyaka arimo se cyangwa jenerasiyo agezemo akamenya ngo arahabwa urukingo ruhe se cyangwa zingahe bitewe n'imyaka afite muri rusange.

Amwe mu mavomero rusange aho usanga abaturage cyangwa se imbaga y'abantu nyinshi iri kuhahurira kugira ngo ibone amazi ndetse ivome amazi meza badakoresheje ay'igishanga, byaroroshye kuri buri muturage, ayo mazi abaye yishyurwa se cyangwa atishyurwa byaba ari byiza kuri buri muturage cyangwa se niyo yaba yishyurwa agashyirwa ku giciro ku buryo buri muturage wese abasha kuyahaha ndetse akabaho neza n'amazi meza.

Ubuvuzi bukore kuri teli, aho usanga hari imbaga abantu benshi cyane batandukanye, aho abo bantu bose baba bazinduwe no kwitabira igikorwa muri rusange cy'ubuvuzi, bitewe n'indwara bagezeho, amenyo ibyorezo n'ibindi bitandukanye bita ku baturage, bitewe n'ibyo bintu hamwe na croix rouge ndetse na yo igikora ubukangurambaga bwo gutwara amaraso bayakura mu baturage bashyira indembe zirembeye kwa muganga.

Umwe mu bahanga se cyangwa inzobere zizobereye mu bintu zikunze kuvuga ko mu buryo bwo kwita ku menyo ushobora gukoresha uburoso se cyangwa n'indodo, urudodo na rwo ruri mu bintu byagufasha gusukura amenyo yawe agasa neza, agasa umweru, kandi bikaba byoroshye kurubona, urushyira mu menyo ukagenda unyuzamo hagati kandi witonze kugirango ngo utabarikura, kugirango ubuzima bwawe bukomeze kuba bwizewe nta kibazo.

Amwe mu mavuriro azwiho kwita ku bana ndetse bakabaha keya zihagije akaba yakurikirana ubuzima bwa bo bakamenyera imiti abana ba bagomba gufata, itarenga ndetse ntibanayige munsi, ndetse ayo mavuriro akunze kuba azi kwita kuana cyane akaba yarera umwana muto ari kumuririmbira, ayo mavuriro kandi akunze gukorwamo n'abantu baba bafite umutima mwiza ndetse ku buryo bigaragara imbere n'inyuma.

Aho abantu bahuye n'ikibazo gikomeye wenda nko gukomereka, aho bisaba ko kugira ngo atangire kwiga kugenda bundi bushyashya. Hari utwuma twabugenewe ndetse n'abaganga baba babafasha kugira ngo bagende neza ndetse bigende bisubira mu buryo, amagufwa yabo yongera akomere, ku buryo babasha kugenda nta kibazo.

Mu buryo bugezweho bwo kwita ku bana b'ababyeyi benshi bakunze gushora kugira ngo bashimishe abana babo babagurira ibikinisho byinshi bitandukanye harimo kubafasha kumenya gukina imikino myinshi nka bial imisoro n'ibindi byinshi ibyongibyo bituma umubyeyi n'umwana basabana bakamenyana byinshi ndetse umutekano ukaba wizeye muri rusange.

Hari amavuzi menshi atandukanye nkayo twakwita ama clinic hari aya leta ndetse hari nayigenga ariyo clinic rero hari n'ivuriro riherereye kigali aho hazwi ko hitwa hospital la croix du sud kwa nyirinkwaya kwa nyirinkwaya rero haba hari ubuvuzi bwinshi butandukanye aho buri umwe wese yahagana kugira ngo arebe ko ubuzima bwe bwakwitabwaho kuko ubuzima ari agaciro cyane kurusha ikindi cyose.

Byaroroshye cyane ko bitewe n'uburwayi bufite se, cyangwa abaturage benshi barwara bitandukanye hari abarwara mu mutwe ubwonko bukaba bwasubira inyuma rero hari amavuriro menshi atandukanye yo kuyitaho aho bitewe n'abaturage baharwariye ari nako bahubaka. nk'abana cyangwa se abantu barwara ubwonko bugasubira inyuma bakabububakira amazu. gusa bakayatakamo imitako myinshi kugira ngo bishime ndetse bakire vuba.

Kwa muganga birazwi ko hakunze kuba icyuma nka sikaneri, isikana umuntu wese muri rusange kikareba ikibazo afite mo imbere kugira ngo bamenye aho bahera bamuvura cyangwa uko yitabwaho nta ngaruka ibijemo muri rusange.

Nk'uko bisanzwe ikintu cyose cyubatswe cyaha icya leta cyangwa icy'uwikorera kiba kigomba kujya hanze kugira ngo bagitahe, umunsi wo gufungura rero hari n'umunsi wo gufungura Butaro hospital icyo ni ikigo gishinzwe kuvura muri rusange, rero nacyo iyo cyafunguwe haba abantu benshi batandukanye harimo abaterankunga ndetse n'abazagikoramo bibaye byiza n'abazakivuzamo na bo bahaboneka kugira ngo bigende neza.

Ahantu hose bizwi ko hakunze kuba hari Ibitaro bikuru kandi Ibitaro byabasha gufasha buri wese bitewe n'ikibazo yagize kandi gikomeye. Leta rero nk'umubyeyi wita ku baturage kandi ubareberera buri munsi, akunze kubaka inyubako nziza cyane zitandukanye, kugira ndetse akazana n'inzobere kugira ngo ngo zite ku buzima bw'abaturage muri rusange. We nk'umuturage icyo aba asabwa ni ukwishyura RSSB ubundi agahabwa sevisi zose zijyanye n'ubuzima nta kibazo.

Zimwe mu nyubako zigezweho cyane, aho izi nyubako zifasha abaturage muri rusange kugira aho bava n'aho bagana, hari ibyuma bitandukanye harimo sikaneri ndetse n'ibindi banyuzemo umuturage kugira ngo barebe uko ubuzima bwe buhagaze ndetse kugira ngo abashe kwitabwaho muri rusange.

Hari igihe kigera ukajya kwa muganga bikagusaba ko umuti usigaje ariugukoresha siporo gusa. Aho wenda nk'akaguru kawe kaba kangiritse bikagusaba ko uzajya ugakoresha siporo ugahina, ukarambura kugira ngo urebe ko kazasubira ku murongo ndetse kagakora nk'uko kakoraga nta kibazo. Muri rusange rero siporo na yo iri muri bimwe mu bintu biri necessary bivura kurusha n'uko wafata imiti muri rusange.

Hari aho bigera kwa muganga nk'abantu barwaye imitsi, abantu barwaye amagufwa, bakaba babasaba gukora siporo cyane kugira ngo barebe ko imitsi n'amagufwa byakira neza cyangwa se bakabategeka kujya bakoresha massage kugira ngo imitsi irambuke ndetse igororoke. Uburinzi bwabo ndetse n'ubuzima bwabo bukomeze kwizerwa ko nta kibazo bafite muri rusange.

Hari ibintu byinshi bitandukanye byagufasha kuruhuka igihe uvuye muri siporo se cyangwa kwivura umunaniro uba ukuye muri siporo. Ukaba washaka nk'udutambaro twabugenewe dukonje ukaba watwikozaho kugira ngo urambure imitsi ndetse n'amaraso akomeze kugenda atera neza nta kibazo.

Imwe mu miti ifasha kandi yizewe, iyo umuntu avuye muri siporo, biba byiza iyo akoresheje amazi kurusha uko yakoresha ibindi. Mu gihe ari kuruhuka akaba yafata amazi meza ndetse yizewe amazi akayanywa kubw'umutekano we, ndetse no kugira ngo umubiri utuze kandi ugarure imbaraga aba yatakaje iyo ari muri siporo.

Bamwe mu bantu bakora siporo bakunze kwangirika se cyangwa bagahura n'ibibazo iyo bari gukora siporo cyangwa bakaba bavunika imwe mu ngingo zabo bikaba byasaba ko bakenera insimburangingo se cyangwa bagakoresha imbago kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kuba butekanye kandi bwizewe. Rero wowe bitewe n'iki koroheye nicyo ukoresha cyangwa se ubushobozi ufite murwego rwo kugirango ngo wivure kandi bigende neza ubuzima bwawe bukomeze kugenda neza.

Bimwe mu bintu byizeye byagufasha gukora siporo neza utuje kandi utekanye nta kibazo ufite, harimo imiziki iyo ufite imiziki imiziki igufasha gukora siporo nta kibazo ufite. Nyuma ya siporo rero ukenera ikintu kiri bugufashe kugira ngo ugarure amaraso watakaje, bibaye byiza wanywa ji cyangwa se fanta, ariko n'amazi nayo wayakoresha ukaba wayanywa nyuma ya siporo kugira ngo urebe ko wagarura bimwe mu byo watakaje.

Hari icyo tuzi nka burankari, burankari izwiho gutwara abarwayi ibajyana muri ambirasi, aho umurwayi bamuterura bakamutereka muri burankari, andi deni bakaba baterura burankari bakaba ariyo bajyana muri amburasi, ndetse ifashishwa cyane ku umurwayi utakibasha kugenda muri rusange.

Zimwe muri siporo zigezweho harimo no gukoresha amasiporo menshi atandukanye harimo: kiriketi, rugubi, futubolo n'izindi nyinshi, aho rero usanga abakinnyi badakunda kurwara cyane bitewe n'uko baba bakoze siporo zihagije mu mubiri, rero iyo yavunitse bisaba ko nubwo akora siporo ariko yashyirwaho n'imiti myinshi itandukanye, mu rwego rwo kugira ngo yirinde ko igikomere cyazamo izindi ndwara nka kanseri n'ibindi.

Abantu benshi tumenyereye gukoresha imiti nk'iyo kwa muganga, ibinini se cyangwa inshinge. Ariko si ibyo gusa bivura gusa, hari n'ibindi byinshi bitandukanye bishobora kuvura umuntu. Aho hari amavuriro yigenga, aho abo bantu baba bakoresha imiti ngo bayirazwe na ba sekuru. Bagafata ibyatsi bakabitunganya bakabikuramo imiti, maze iyo miti bagatangira kuyikwirakwiza mu bantu. Gusa iyo miti iba yizehiwe cyane.